Umuhinzi wabigize umwuga uhinga afite intego igihe kiragera agaheka ipombo akayashyiramo umuti akajya gutera umuti imyaka yahinze, urugero nk'iyo ari umuceri cyangwa se muzindi mboga runaka nabyo ziri zigomba kujya guterwa umuti kugira ngo hafe udukoko dushobora kwangiza umusaruro.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ikoboyi, ishashi, umugore wambaye umupira w'umukara, w'ijipo y'igitenge, umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umukara, ahantu hororerwa amafi.

Ubuhinzi bw'ikawa ni bumwe mu buhinzi bukeneye gushyirwamo imbaraga, kugira ngo ababukora babashe kubona amafaranga bakeneye kuko iki gihingwa kiracuruzwa kandi kikavamo amafaranga menshi yafasha umuntu kwiteza imbere ndetse no guhahira abagize umuryango.

Bbuhinzi bw'icyayi bugirira igihugu akamaro kuko bugabanya abantu badafite akazi, kubera ko hari abantu bajya gukoramo bagiyeye kugisarura, kukibagarira, bigatuma babona amikoro mu buryo bw'amafaranga. Ndetse n'abagihinze baragicuruza bakabona amafaranga yemwe n'igihugu kikabona imisoro.

Ahantu harererwa ikawa ntoya zigakura kugira ngo zisarurwe zibyarire abazihinze amafaranga biteze imbere.

Abantu bane basarura ingano zumye.

Ikawa ni igihingwa kiza umuntu yahinga ateganya ko azagikuramo amafaranga yo kumufasha gukemura ibibazo bye kuko iyo gikorewe neza kigasasirwa kikitabwaho kigakurwa bisambo kigatanga umusaruro mwiza kijyanwa mu nganda kigatunganywa hanyuma abantu bakagikoresha nawe ukaba wabona amafaranga.

Amafarumasi afasha abantu gukora ubworozi buteye imbere aho abantu bagurira imiti mu gihe amatungo yabo yarwaye bakajya kuyavura kugira ngo abashe kubaha inyungu mu gihe kirambye.

Imiti yifashishwa mu gukingira amatungo kugira ngo atatakwa n'indwara z'ibyorezo.

Imiti y'amatungo ibikwa neza kugira ngo itangirika, zabasha gufasha amatungo gukura ndetse no kugira ubuzima bwiza.

Umuhinzi w'umuceri ategura igishanga agashyiramo amazi, amazi yamara kuba ageze ku rugero rwiza ubutaka bworoshye, agatera umuceri kandi agakomeza gukurikirana akazajya no kuwubagara, ikigamijwe ari kugira ngo azabashe kubona umusaruro.

Ikiraro cy'inkokazi zitera amagi, aho inkoko zirara, aho inkoko zijya kunywera amazi.

Abashumba, inka z'inyambo, amashyamba, ibyatsi n'ibiti.

Ubuhinzi bw'ibigori bukwiye gushyirwamo imbaraga kuko bibikika neza bikaba byaribwa cyangwa se bikaba byanagurishwa bigatanga amafaranga, ayo mafaranga akaba yafasha abaturage kurihira abana babo amashuri ndetse bakaba banayakoresha bivuza mu gihe barwaye ndetse n'ibindi.

Isambo iteyemo urutoki, ifamu iragirwamo amatungo, urugero nk'inka n'andi matungo magufi nk'ihene, n'isambu itunganyijwe ishobora guterwamo imyaka, urugero nk'ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi.

Ishyamba, inka ziragiwe, itaka, imisozi, ikirere, ibiti.

Abahinzi bari mu murima uteyemo imboga z'amashu. Bakomeza kujya bashyira ifumbire ku mboga zabo kugira ngo zikomeze gukura neza. Zitanga umusaruro mwiza. Hanyuma bazazigurishe babone amafaranga yo kwifashisha.

Imboga cyangwa imbuto zahinzwe iyo nta mvura igwa ni byiza ko uwo muhinzi wabihinze agomba kubyitaho agashaka amazi akazuhira wenda agakoresha amarozwari cyangwa se ibindi byabu byabugenewe kugira abashe kuzuhira zikure neza zizatangemo umusaruro.

Ni byiza gutekereza ku kintu cy'ingenzi, cyakoreshwa amazi menshi ateraniye ahantu hamwe cyangwa se mu kidendezi, wenda nko kuyakoresha, yuhira imyaka kugira ngo ibashe kumererwa neza, ikure neza mu gihe imvura ntayihari.

Akarima k'igikoni, karimo imboga ziteye ku murongo, ziririmo kuhirwa.

ubuhinzi buteye imbere, aho abantu bahabwa akazi ko gutunganya ubutaka, abandi bakuhira imbuto n'imboga, zihinze kugira ngo babashe kubona amafaranga kuko babikora nk'akazi, abandi bakabona umusaruro, bakajyana ku isoko kugira ngo buri muntu abone icyo akeneye, umwe akeneye amafaranga ndetse n'ibyokurya bose bakabibona.

Umuhinzi w'imboga z'amashu ubikora mu buryo buteye imbere agakoresha imashini zuhira zifashishije imbaraga zikomora ku mirasire y'izuba.

Igice kinini cy'ubutaka kigizwe n'amashyamba, ahandi hakaba hari ibiyaga ndetse n'ibyatsi, ubwo rero ni iby'ingenzi ko aho hantu na ho habyazwa umusaruro, hafi y'amazi hakaba hakorerwa imirimo y'ubuhinzi kuko ayo mazi, yafasha abahinzi kuhira imyaka yabo kandi no mu mazi hakaba hakorerwa imirimo y'uburobyi.

Amaterasi tuyahingamo imyaka akadufasha kubona ibyo dukeneye, ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ibishanga byinshi bikunze kuba bifite amazi. Ayo mazi rero abyazwa umusaruro aho mu nkengero z'ayo mazi bakora amabuloke hanyuma bagateramo umuceri, uwo muceri rero ukomeza kwitabwaho n'ayo mazi bakayayoboreramo kugira ngo umuceri were neza maze abawuhinze babone inyungu z'amafaranga.

Imisozi na yo ni ahantu heza ho kuba habyazwa umusaruro, abantu bakaba bahahinga imyaka, uburyo bwiza bwo kugira bahahinge imyaka yere ni uko bagomba kuhaca amaterasi y'indinganire kugira ngo isuri itazaza ikabatwara imyaka, ariko mu by'ukuri ni ingenzi ko na ho hitabwaho hagakoreshwa.

Amashyamba n'imisozi miremire irimo amatarasi y'indinganire ahingwamo imyaka.

Amashyamba ateye ku misozi, urutoki ruteye, inzu zubatswe ku misozi, ibirayi bihinzwe mu gishanga, umugenda utembamo amazi y'igishanga.

Ubworozi bw'inkoko bufasha abaturarwanda n'abazoroye kugira imibereho myiza, kuko barya amagi ndetse bakarya n'inyama z'inkoko kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Abana barya amagi bagira imikurire myiza ndetse n'abantu bakuru barya amagi ndetse n'inkoko na bo ubwabo bagira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'ingurube na bwo ni ubworozi bwiza kandi bushobora kuzana amafaranga mu gihe bwitaweho, ingurube ziba zikwiye kororerwa mu biraro byiza, zigasasirwa kandi zigakorerwa ahantu heza ho kurira kugira ngo zikomeze kumererwa neza hatazazamo ibiza zikaba zapfa.

Inka nziza, iri mu kiraro, ikaba igaragara ko iri mu bwishingizi, kuko yambaye ihelena, isakariwe ikiraro kandi ahantu heza habetonye, ikaba iba no mu ifamu, ibyo bishobora gutuma umusaruro wayo wiyongera kuko iba ibayeho neza.

Ubworozi bw'inka bwa kijyambere, ziba mu biraro byiza kandi zigakorerwa amasuku, zikaba zisakariwe kugira ngo zitanyagirwa zikarwara.

Inkoko ni zimwe mu matungo magufi zigaragara mu ngo na zo zikwiye kwitabwaho zigashakirwa ahantu heza ho kurira, ahantu heza ho kuba ndetse n'ahantu ho kunywera amazi kugeza zibashe gutanga umusaruro mwiza.

Ibiraro bya kijyambere by'inkoko cyangwa ingurube, cyangwa inyubako zo gutuburamo imbuto zo guhinga.

Aba mama batatu bari gutoranya ibishyimbo, ku masahani atatu y'ibyuma. Amabase atatu arimo ibishyimbo, inkweto za kamambiri.

Umwuga w'ubuveterineri, ni umwe mu myuga ifasha abantu kwiteza imbere kuko bamwe babikora nk'akazi, bakabonamo amafaranga yo kwiteza imbere na none uwo mwuga ufasha aborozi kugira amatungo ameze neza kuko iyo yarwaye, aba baveterineri baza kuyavura kugira ngo umworozi abashe kubona umusaruro mwiza mu matungo ye.

Abaveterineri bita ku buzima bw'amatungo, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro kuri ba nyirazo kandi zikoroherwa n'ahantu heza.

Inkende z'umweru zicaye nk'abantu, inyuma y'inkende hari ibyatsi, izo nkende zifite ubwoya bw'umweru.

Ingwe ni inyamaswa iboneka muri pariki.